Aba bantu, barimo barahaha barimo baracagura, bose, bose buri muntu urabona shaka ashaka mu iri soko, buri muntu urabona ko ashaka hano mu iri soko, kandi buri muntu urabona ko ashishikajwe n'icyo yumva ashaka guhaha, buri muntu wesebona ko afite gahunda ye.